Aya mashuri niho twigira, tukamenyeramo byinshi cyane by'ingirakamaro, bizadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Aha kandi tuhabonera ubumenyi buhagije ku buryo tuziteza imbere.

Abanyeshuri biga gukanika, bakanika za dinamo, bakanika n'ibindi bintu byinshi cyane, iyo uzi gukanika uba uzi ibintu byinshi, kandi bigira n'amafaranga, gukanika buriya ni byiza cyane.

Abasaveya baba bazi ibintu byinshi, kubera ko badupimira ibibanza, kandi bakadupimira imbibi zacu, kugira ngo abarengereraniye bamenye uri mu kuri, cyangwa uri mu bibazo, uri kurenganya abandi.

Ikoranabuhanga ni ryiza cyane, kuko rituma twiga amamashini tukamenya kompiyuta uko twazikoresha, tukamenya gusabiraho ibyemezo byagenda biradufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, rero imashini n'ingirakamaro cyane.

Abanyeshuri biga segonderi baba bambaye iniforume kandi baba bambaye neza, ugereranyije n'uko baba bari kugaragara. Baba bambaye amashati meza, cyane cyane ko usanga bakurikiye amasomo yabo neza kandi bari gukora ubushakashatsi.

Abanyeshuri biga muri segonderi aba asa neza kandi baba bambaye iniforume ituma bagaragara neza. Iyo umuntu ari kubareba yumva yakomeza akabareba kubera ko baba basa neza.

Kwiga ni byiza cyane kuko bituma amenyana n'abantu benshi, kandi akamenya utuntu tw'ingenzi ,kandi kwiga bituma uba uzabaho neza mu gihe kiri imbere ,ugereranyije umuntu uba utarize.

Abanyeshuri biga muri segonderi, ikizamini cyabo kiba gikomeye kandi batabazanya bigatuma ikizamini cyabo kikubera cyiza kandi...

Gukanika ni byiza cyane， kuko bituma ugira amafaranga，kandi ntabwo bikumara igihe kinini cyane kugira ngo ubone amafaranga， kuko iyo ukanitse ikintu， gihita kiba kizima.

Ibigo bya materineri biba ari byiza kuko bituma abana bazamuka bafite ubwenge, bavuga neza kurusha abataragiye muri materineri. Ubwo rero ni ukujya turajyana abana muri materineri bakiga neza.

Iyo uri kwiga mu ishuri, ugira ibibazo byinshi cyane, wumva umutwe wataye, kuko ibibazo biba ari byinshi cyane, mwarimu nk'iyo akubajije ibibazo bikakunra. Iyo akubajije ibibazo bikomeye cyane birakunanira,..

Akazi k'igifundi ni keza cyane, kubera ko iyo ugakoze ugira ibintu, witeza imbere, kabamo amafaranga menshi kubera ko iyo wizigamye utera imbere, iyo wirinze ibintu byo kukumaraho amafaranga.